Abishyize hamwe nta kibananira, burya koko nta mutwe umwe wigira inama, abantu baricaye barenze umwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kuvugira mu irangururamajwi, bafite amazi imbere yabo.

Abantu bicaye hamwe bari kungurana ibitekerezo. Amazi ni ingenzi mu mubiri wacu. Ari kuvugira mu irangururamajwi kugira ngo abashe kumvikana neza. Tujye dushyira imitako mu mazu yacu kuko ituma hagaragarara neza.

Abantu bane baricaye harimo abagore babiri n'abagabo babiri umugore umwe ari kuvugira mu ndangururamajwi yambaye amataratara n'ishati y'umuhondo n'ijipo y'umukara n'inkweto z'umweru.

Abantu batatu baricaye abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo umwe wo hagati ari kuvugira mwirangururamajwi kugirango bagenzi be bumve neza, umugore imbere ye hateretse icupa, undi mugabo imbere ye harambitse amacupa abiri.

Abantu benshi baricaye, abandi barahagaze, umwe ahagaze imbere yabo, ari kuvugira mu irangururamajwi, afite ibyo arimo kubabwira, yambaye isaha, yicaye mu ihema ry'amabara atandukanye; icyatsi, kibisi, umuhondo, ubururu, umweru.

Abantu baricaye bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye umukara n'umweru, harimo ufite amaherena ku gutwi kugira ngo amwongerere ubwiza, afite n'umusatsi mwinshi, harimo uwambaye amataratara ngo amwongerere kureba.

Iyo abantu bishyize hamwe nta kibananira kuko baba bungurana ibitekerezo, icyo umuntu atari azi akakihamenyera kuko ntabwo bahuje ubwenge ndetse n'ubumenyi, abaza mugenzi we akamusobanurira.

Umuturage agomba kugira uruhare mu igenamigambi. Ingengo y'imari y'imihigo umwaka wa makumyabiri na gatanu, makumyabiri na gatandatu. Abayobozi bishyize hamwe batekerereza igihugu iterambere ryacyo aho rizagera mu mwaka wa makumyabiri na gatanu, makumyabiri na gatandatu.

Abantu babiri baricaye, ni igitsina gabo, umwe yambaye isaha ku kuboko, ikote ry'ubururu, mo imbere harimo ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru, ameze nk'ugiye gukoma amashyi. Impande yabo hateretse uducupa.

Abantu benshi baricaye, bari kungurana ibitekerezo. Kuko nta mutwe umwe wigira inama, iyo ugerageje kuyigira, wigira iyo gusara, harimo bamwe bafite telefoni zigendanwa mu ntoki

Abantu benshi baricaye. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Harimo abafite amataratara, ari kubafasha kureba neza. Harimo abafite za mudasobwa imbere yabo. Bari kureba amakuru yo hirya no hino.

Umutwe umwe burya nta nama wakwigira. Ariko iyo abantu bishyize hamwe nta kibananira. Ikikubwira ko bahanahanye ibitekerezo bizima, barangwa no gukoma mu mashyi. Amadarubindi ni meza, kuko adufasha kureba. Tujye dukoresha intebe z'amaparasitike, kuko ziraramba cyane.

Abantu bishyize hamwe nta gishobora kubananira burya nta mutwe umwe wigira inama ariko iyo abantu ari benshi bungurana ibitekerezo icyo umuntu atari azi akabaza mugenzi we akamusobanurira amadarubindi afasha abantu kureba neza.

Kigali yacu abantu baricaye, umwe ni umugabo undi ni umugore. Umugore yambaye amataratara afite umusatsi mucye ku mutwe, yambaye ikote ry'umukara imbere harimo akantu k'umweru. Imbere yaho hateretse akantu karimo amazi, umugabo yambaye ishati y'umweru.

Kwicara utuje kandi utekanye n'ingenzi. Cyane iyo abantu barenze umwe bahuza ibitekerezo, ugasanga umuntu agiye avuga ibyo azi undi agiye avuga ibyo azi, bigatuma umuntu ahakura ubumenyi atari asanzwe azi.

Abantu benshi baricaye abandi babiri barahagaze barimo barahanahana irangururamajwi, harimo abambaye imyenda y'ubururu, abambaye umutuku bicariye intebe zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bishyize hamwe ntacyabananira, umutwe umwe wigira inama yo gusara, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu. Mudasobwa ituma tumenya byinshi tutari tuzi, yaba ibyo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Abantu iyo barimo guhanahana ibitekerezo bituma bagera kuri byinshi batari bazi.

Abishyize hamwe bungurana inama ntakibananira, umutwe umwe wigira inama yo gusara. Iyo abantu bateraniye hamwe barenze umwe bahanahana ibitekerezo kuko baba batanganya bose ubumenyi bigatuma buri umwe wese azana igitekerezo cye n'undi akazana icye bose bagahuriza hamwe bakabikemura, bigatuma utari afite icyo azi nawe akimenya.

Abantu benshi baricaye harimo abagore n'abagabo, harimo umwe wambaye ingofero y'abasilam,u harimo bamwe bambaye amataratara, ari kubafasha kureba imbere yabo ku meza hari amazi.

Abishyize hamwe ntakibananira kuko bahanahana ibitekerezo ibyo umuntu atazi akabaza bagenzi be nabo bakamusobanurira. Iyo basobanurirwa bandika biba akarusho kuko ibyo bize ntabwo bibava mumutwe vuba. Amazi ni meza mu mubiri.

Abantu baricaye bari guhana ibitekerezo. Harimo umugore umwe, abandi bose ni abagabo bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye umweru, umukara, Kigali yacu.

Kwishyira hamwe ni ingenzi, nta muntu umwe wakwigira inama, iyo abantu ari benshi bungurana ibitekerezo, umuntu akavana byinshi atari azi byazamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibiti ni ingenzi kuko bivamo inkwi amakara ndetse n'ibindi.

Iyo abantu bicaye barenze umwe bagera kuri byinshi. Kuko icyo umuntu atazi abaza bagenzi be. Ikikubwira umuntu wumiwe akunda gufata ku munwa. Amarinete adufasha kureba neza. Amazi ni ingenzi mu mubiri wacu.

Abishyize hamwe nta kibananira bavuga ko nta mutwe umwe wigira inama abantu iyo bari benshi bahanahana ibitekerezo bigatuma icyo umuntu atari azi abaza mugenzi we akamusobanurira amazi burya ni meza mu mubiri wacu.

Abantu babiri baricaye umwe ari kuvugira mu irangururamajwi kugirango mugenzi we amwumve neza. Bambaye amataratara ari kubafasha kureba, undi yicaye yifashe mu gahanga.

inyubako ikoreramo saniramu ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi hari mudasobwa eshatu amafoto ari ku gikuta ndetse n'ibyapa.

Abantu benshi baricaye , harimo umugore afite amaherena yambaye isaha kukuboko harimo umugabo wambaye amataratara, ari kumufasha kureba neza.

Abantu benshi baricaye abandi barahagaze harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo barimo barungurana ibitekerezo kuko nta mutwe umwe wigira inama ariko kuko ari benshi barakomeza bakagi inama icyo umuntu atazi akabaza mugenzi we nawe we akamusobanurira.

Abishyize hamwe nta kibananira! Nta mutwe umwe wigira inama! Iyo bishyize hamwe, bungurana ibitekerezo. Icyo Ubuntu atazi akabaza mugenzi we. N'udafite icyo azi, akagira icyo ahamenyera. Amazi ni meza mu mubiri wacu.

Umuti wo gukaraba intoki utinda gukwirakwiza indwara zandurira mu gukoranaho. Abantu iyo bishyize hamwe nta kibananira ,kuko icyo umuntu atazi abaza mugenzi we akamusobanurira. Inzu yubakishije amatafari ahiye iba ikomeye cyane yagira inkingi z'ibyuma bikaba akarusho.

Abantu bishyize hamwe ikigaragara cyo ntakiri bubananirwa, n'udafite icyo azi arakihamenyera kuko arabaza bagenzi be bamusobanurire, ikigaragara cyo baragera kuri byinshi kuko nta mutwe umwe wigira inama.

Umutwe umwe burya wigira inama yo gusara, ariko iyo abantu ari benshi usanga bahuriza hamwe ibitekerezo, icyo umuntu atazi akabaza mugenzi we akamusobanurira kuko burya ntabwo abantu twese tuba duhujije ubwenge.

Abishyize hamwe ntakibananira kuko umutwe umwe wigira inama yo gusara, iyo abantu bateraniye hamwe ari benshi bahanahana ibitekerezo, ufite icyo arusha abandi akajya imbere akakivuga abandi bagatega amatwi bakacyumva.

Burya nta mutwe umwe wigira inama abantu iyo bishyize hamwe ntakibananira n'udafite icyo azi arakihamenyera kuko abaza bagenzi be bakakimusobanurira amazi burya ni meza m'umubiri wacu amadarubindi adufasha kureba.

Abantu barenze umwe baricaye, abandi barahagaze. Umwe ari kuvugira mu irangururamajwi kugira ngo bagenzi be bumve neza. Amazi ateretse imbere yabo.

Abantu benshi baricaye, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo uwambaye amataratara ari kumufasha kureba neza, n'imbere yabo hateretse uducupa, bari kuvugira mu irangururamajwi.

Abantu benshi baricaye barimo baraseka ikigaragara cyo barishimye, bari kuvugira mu irangururamajwi kugira ngo bumvikane neza, harimo uwambaye amataratara wifashe ku munwa arimo arandika.

Abishize hamwe bakajya inama bagera kuri byinshi, ikindi iyo uzi ikintu ukacyandika bituma ukimenya cyane. Iyo abantu bahanahana ibitekerezo abandi bakabyandika bituma batabyibagirwa. Ikindi kandi kubaha igitekerezo cya mugenzi wawe ni ingenzi,.

Abantu iyo baganira barenze umwe bagera kuri byinshi batari bazi kuko barimo bungurana ibitekerezo umusatsi mwinshi uri ku mutwe w'umukobwa cyangwa umudamu bimuha ubwiza, indabo ni nziza cyane kuko zituma duhumeka umwuka mwiza.

Abantu barenze umwe baricaye, abandi barahagaze bari ku vugira mu irangururamajwi kugira ngo bagenzi babo bumve neza, bishimiye ibyo bagenzi babo bari kubabwira kuko bazamuye igipfunsi.

Abantu bicaye batuje kandi bari guhana ibitekerezo, amadarubindi ari kubafasha kureba neza, amazi ni meza mu mubiri, mudasobwa ziri kubafasha kumenya amakuru hirya no hino.

Abantu baricaye. Undi arahagaze, ari kuvugira mu irangururamajwi. Kugira ngo babashe kumwumva neza. Harimo umukobwa wifashe ku munwa ufite umusatsi mwinshi hari n'undi wifashe ku itama, nawe ufite umusatsi mwinshi. Amazi abateretse imbere.

Ikikubwira umuntu wumiwe yifata ku munwa, mudasobwa zidufasha kumenya amakuru atandukanye yaba ayo mu gihugu ndetse no hanze yacyo, amadarubindi adufasha kureba neza, ingofero mu mutwe ziturinda izuba.

Abantu benshi baricaye, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abagore bafite imisatsi myinshi, umugabo umwe arahagaze, imbere ya bamwe hari terefone zigendanwa

Abantu benshi baricaye bamwe bafite ikintu barimo kwitegereza harimo abambaye amataratara ari kubafasha kureba neza amazi ateretse imbere yabo, harimo abambaye imyenda y'umutuku, umweru, umukara n'ayandi.

Abantu bishyize hamwe, nta cyashobora kubananira. Burya nta mutwe umwe wigira inama! Bavuga ko n'iyo ubigerageje wigira inama yo gusara. Mudasobwa zitufasha muri byinshi. Kuko zituma tureba hirya no hino. Kandi tukamenya amakuru atandukanye.

Abantu benshi barahagaze abandi baricaye harimo abagabo ndetse n'abagore barimo barifotoza bafite impapuro imbere yabo, hasi ku ntebe hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu benshi baricaye undi umwe arahagaze ari kuvugira mu irangururamajwi kugira ngo barusheho kumva neza, imbere yabo hateretse uducupa harimo abadamu bisukishije imisatsi.

Abayobozi bari kugenda batembera mu kigo cyo kwivurizamo, bari kugenda bareba ibikorwa runaka byakorwa cyangwa ibyakemuka.

Mudasobwa zidufasha kumenya amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga amadarobindi ni meza kuko adufasha kureba, abantu iyo bishyize hamwe ntakibananira baba bahanahana ibitekerezo udafite icyo aza akakihamenyera, amazi burya ni meza mu mubiri wacu.

Abantu benshi baricaye harimo igitsina gore ndetse nigitsina gabo, bambaye imyenda itandukande harimo abambaye ubururu icyatsi n'umukara.

Abantu benshi baricaye, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari kungurana ibitekerezo kuko nta mutwe umwe wigira inama, iyo ugerageje kuyigira, wigira inama yo gusara. Imbere yabo hateretse amazi.

Abishyize hamwe ntacyabananira kuko bagera kuri byinshi. Icyo umuntu atazi abaza mugenzi we akamusobanurira. Amazi ni meza mu mubiri, amadarobindi adufasha kureba neza, mudasobwa zidufasha kumenya amakuru yo hanze ndetse no mu gihugu cyacu hagati.

Ishamba rigizwe n'ibiti, inyamanswa riba ari ryiza. Iyo harimo ingagi biba ari akarusho ba mukerarugendo baza kuzireba bagaha igihugu amafaranga akazagifasha guteza imbere abaturage ndetse n'ibindi byose muri rusange.

Harabura iminsi ibiri kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatanti, wa bibiri na makumyabiri nine, igere. Menyekanisha unishyure ipatanti uyu munsi, wirinde amande n'ibihano by'ubukererwe.

Gushumira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, ukwezi ko gushimira abasora makumyabiri, makumyabiri na gatatu. Saba fagitire ya ibiyemu wubake u Rwanda.

Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu, telefone igendanwa rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda akanyenyeri zeru urwego.

Kwigaragaza ku bushake: amande n'inyungu z'ubukererwe byakuriweho abasora bakoze amamenyekanisha arenga magana inani na mirongo itanu ku musoro wa TVA muri gahunda yo kwigaragaza ku bushake. Nawe wakwigaragaza kuko nutigaragaza ubu nyuma ya makumyabiri na gatatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri n'ine, uzacibwa ibihano by'ubukererwe.

Inzu zubatse ku buryo bugezweho ziragerekeranyije bizajya bituma hajyamo abantu benshi, ikindi kandi zizagira agaciro mu gihe umuntu agiye kuzigurisha, abantu bicaye ku muhanda barimo kuruhuka.

Inzu irubatse, ifite parafo y'umweru, imbere hari udutebe tubiri, kamwe ni karekare akandi ni kagufiya, imbere hubatse urukuta rw'amabuye.

Ku irembo bakira abantu benshi batandukanye waba ushaka icyemezo cy'amavuko icy'uko uri ingaragu, icy'uko washyingiwe wagana irembo bakoresha ikoranabuhanga, ryizewe kandi bagukemurira ikibazo mu buryo bwihuse.

Abantu bishyize hamwe nta cyabananira. Nta muntu umwe wigira. Nta nubwo yakwigira inama nzima. Ariko bateraniye hamwe ari benshi ,bahanahana ibitekerezo icyo umuntu ataza akabaza bagenzi be. Bashobora kwiga ku iterambere ry'igihugu cyangwa se bakaganira ku ndwara z'ibyorezo.

Ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, umusoro ku nyungu wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ishimwe rigenewe umuguzi wanyuma watse fagitire ya ibiyemu.

Ku irembo hakorerwayo ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kujyayo ushaka icyemezo cy'amavuko bakakiguha, waba ushaka icy'uko washyingiwe bakakiguha, waba ushaka icy'uku uri ingaragu ukakihasanga.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Nta mashanyarazi nta terambere twageraho rirambye tuyabungabunge twirinde kuyakorakoraho kuko insinga zayo ziba zirimo umuriro wakwangiza ubuzima bwacu udupfukamunwa tuturinda kwandura indwara zandurira mu ruhumekero.

Abantu benshi baricaye harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abafite telefone zigendanwa bari kuzirebamo, haricupa riteretse hejuru y'ameza impande hari igikapu gifite ibara ry'umutuku.

Gutangiza kumugaragaro ukwezi ko gushimira abasora, umusoro wawe wagize kandi uzakomeze kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza. Turashimira abasora, dufatanye kuzahura ubukungu.

Abantu barenze umwe baricaye harimo abagabo ndetse n'abagore, ameza ateretse imbere yabo, za mudasobwa ziri imbere yabo, bari kuvugira mu irangururamajwi.

Shyira imashini yawe kuri interineti, kanda inshuro ebyiri kuri porogaramu ya EBM mumashini yawe reba hasi ibumoso ahanditse new niba umubare uhari urangizwa na ijana na mirongo itanu n'icyenda ubwo EBM yawe yamaze kwakira.

Amagare adufatiye runini, atwara abantu n'ibintu bigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye tujye dukunda ibiti kuko bifite akamaro kanini cyane hari igihe bikurura imvura ikindi kandi bikunda kwihishamo inyamaswa za nyamaswa zikaba zakurura ba mukerarugendo bakazanira igihugu amafaranga.

Tujye tubungabunga amashanyarazi adufitiye akamaro kanini, cyane atuma tureba ikindi kandi twirinrindade gukora kuri izi nsinga turinde n'abandi, ibiti bizengurutse urugo bizana umwuka mwiza.

Igihe tugenda mu muhanda, tujye twirinda kugendamo hagati. Tujye tugenda ku ruhande kuko biturinda impanuka. Urutoki ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ruvaho ibitoki bidutungira ubuzima kandi tukagira ubuzima buzira umuze.

Amashanyarazi ni meza mu buzima bwacu. Atuma tubona ibitagaragara. Ibiti ni byiza kuko byihishamo inyamaswa zigakurura ba mukerarugendo, bakazanira igihugu amafaranga. Abantu iyo bambaye impuzankano, bagaragara neza.

Abantu iyo batuye begeranye bituma iterambere ribageraho mu buryo bwihuse, ibiti bituma duhumeka umwuka mwiza insinga z'amashanyarazi zigenda gendamo umuriro ukwirakwizwa hirya no hino mu baturage.

Imodokari, amagare ndetse n'amapikipiki biraparitse, bitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugira ngo bibageze bashaka kujya mu buryo butabagoye. Inzu zubatse zigerekeranyije insinga z'amashanyarazi ziri gukwirakwiza umuriro hirya no hino.

Ibiti binini cyane, hirya hubatse inzu ndende ijyerecyeranyije hari itsinga zamashanyarazi ndetse n'amatara.

Imodokari n'amapikipiki bitwara ibintu ndetse n'abantu. Bikaborohereza kugera aho bashakaga kujya mu buryo butabagoye. Umuhanda iyo urimo kaburimbo urakomera cyane. Amashanyarazi ni ingenzi kuko adufitiye akamaro kanini cyane.

Inzu zubakishije amategura, zifite igipangu cy'amatafari ahiye byatuma gikomera cyane hakaba n'umutekano kuko nta muntu wakwinjiramo uko yishakiye, insinga z'amashanyarazi zinyanyagiza umuriro hirya no hino.

Inzu yubakishije amategura, bizatuma ikomera cyane, iriho amadirishya y'ibyuma bizajya biyiha agaciro ndetse n'umuyaga ubona aho unyura, insinga z'amashanyarazi ziri gukwirakwiza umuriro hirya no hino.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye kirakomera cyane. Inzu isakajije amategura, igira agaciro karekare ku isoko. Ikindi tujye tubuza abantu kwegera insinga z'amashyanyarazi kuko bahakura urupfu.

Imodokari n'amapikipiki menshi biri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo bibageze aho basha kujya mu buryo butabagoye, umuhanda urimo kaburimbo, abantu barahagaze muri kaburimbo.

Kuri banki niho tubika amafaranga tukumva tubifitiye icyizere, ikindi kandi bituma tutayasesagura, ibiti ni ingenzi kuko bidufitiye akamaro kanini, insinga z'amashanyarazi tujye tuzubaha kuko hari igihe wazegera umuriro ukagufata.

Ni inzu igurishirizwamo ibintu bitandukanye hakaba hahagazemo abantu batatu bari kurambagiza ibyo baza gutahana umwe yamabaye inkweto, umupira undi yambaye ibisa umukara bitari kugaragara.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Igipangu kinini cyane cyubakishije amatafari ahiye bizatuma gikomera cyane hasi hubakishije amabuye hirya hateye ibiti hari ninsinga z'amashanyarazi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye izatuma ikomera cyane, igire agaciro igihe bagiye kuyigurisha, imbere hari ibiti byinshi, ibiti ni ingirakamaro kuko bizana imvura bigatuma duhumeka umwuka mwiza.

Inzu ifite imiryango myinshi biyiha agaciro kandi abapangayi iyo baje kuyikodesha bituma batanga amafaranga menshi, wayubakisha amatafari ahiye igakomera cyane, wayisakaza inkingi z'ibyuma bigatuma nta muyaga wayigurukana.

Ipikipiki ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu zikabageza aho bashaka kujya ku buryo butabagoye, iyo ushyize urugi ku gipangu cyawe bituma ntawinjiramo uko yishakiye kuko arabanza agakomanga.

Kubakisha inzu amatafari ahiye, bituma iyo nzu ikomera cyane. Wajya kuyigurisha bikaguha amafaranga menshi. Kwa muganga ni ho umuntu akirira indwara izo ari zo zose yaba arwaye, waba urwaye umutwe, malaria n'izindi zose wagana kwa muganga.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu zigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye. Inzu iyo yubakishijwe amatafari ahiye irakomera cyane, ikindi kandi iyo ifite amadirishya y'ibyuma ibyo biyiha agaciro igihe cyose nyirayo agiye kuyigirisha.

Imodokari ziri kugenda mu muhanda, ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu, amazu menshi yubatse ku buryo butandukanye, hari ayubatse agerekeranyije. Ibyapa ku biri kuyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga. Hirya hari ibiti birebire cyane kandi binini.

Imbangukiragutabara ni imodoka zifite akamaro kanini cyane, aha nini zagenewe kugeza abarwayi kwa muganga, baba ari abatwite cyangwa abarwaye izindi ndwara zitandukanye, inzu iyo uyihaye amadirishya y'ibyuma ndetse n'inzugi zikomeye bituma iyo nzu igaragara neza.

Inzu iyo yubatse igerekeranyije biyiha agaciro, ikindi kandi hajyamo abantu benshi. Imodoka iraparitse itegereje gutwara abantu kugira ngo ibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye.

Inzu yubatse igererekeranyije isakaje amategura, ifite irangi ry'umuhondo ndetse niryumweru, ifite amadirishya manini n'inzugi birimo ibirahuri, imbere hari inkingi z'ibyuma.

Inzu irubatse; yubakishije amatafari ahiye. Hasi hari amabuye ndetse asizemo irangi ry'muhondo; ku madirishya na ho hari irangi ry'umuhondo, isakaje amabati.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranyije ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi, isize irange ry'umuhondo harimo n'iry'umweru, imbere hari ibyatsi byinshi, ku ruhande hari icyapa.

Inzu iyo isakaje amategura biyiha uburambe, ikindi wayikingisha amadirishya n'inzugi by'ibyuma bikayiha gukomera, wayisiga irangi bikayiha agaciro igihe ugiye kuyigurisha, wayishyira imbere mu busitani bigatuma irushaho kuba nziza cyane.

Umuntu w'umudamu arimo kugenda mu muhanda urimo kaburimbo, amazu asakaje amabati y'umutuku, imbere hari inkingi z'ibyuma ku ruhande hari ibiti byinshi cyane.

Umuntu w'umugabo yambaye ingofero y'umukara ifite urugara rw'umuhondo yambaye amataratara ndetse nikote ry'umutuku mo imbere harimo akenda k'umweru.

Umuntu afite umusatsi mwinshi ndetse n'ubwanwa bwo hejuru, afite amaso manini aratuje yitwa Kayishema.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye kirakomera cyane. Abantu iyo bambaye impuzangano bituma ubasha kubatandukanya n'abandi. Ingoma ni nziza kuko zituma abantu bidagadura.

Icyapa gishushanyije abantu benshi barimo babyina barishimye, cyanditseho inkiko gacaca, ubutabera, ubwiyunge hirya hari ibiti bikikije icyapa.

Umuntu w'umugabo aritonze yambaye amataratara yambaye umwenda ugizwe n'amabara atandukanye, harimo umutuku umukara ndetse n'umweru, amataratara arimufasha kureba neza.

Abashyize hamwe ntacyabananira, nta muntu umwe wabasha kwigira inama nzima, udupfukamunwa tudufasha kwirinda indwara zandurira mu buhumekero, terefone igendanwa ibamo byinshi byiza kandi ituma tumenya amakuru ya kure aho tutabasha kwigerera.

Inzu yubakisheje amatafari ahiye irakomera, bashyiraho inzugi z'ibyuma ndetse n'amadirishya bikaba akarusho, kandagira ukarabe idufasha mu kugira isuku, abashinzwe umutekano badufatiye runini, kuko bacunga ababa bashaka guhungabanya igihugu.

Tuge turangwa n' umutekano aho turi hose niyo baba baguhagaritse abanyamutekano jya uhagarara wumve icyo bakubwira kuko baba baducungiye runini baturindira umutekano niwo utuma tugera kuri byinshi tudafite umutekano ntacyakorwa.

Abantu benshi baricaye, abandi barahagaze bambaye udupfukamunwa kugirango tubafashe kutandura indwara zandurira mubuhumekero, barimo baravugira mu irangururamajwi kugirango abo babwira bumve neza.

Umuntu arishimye, yambaye amataratara ari kumufasha kureba neza, yambaye ingofero y'umukara irimo amabara y'umuhondo, yambaye ikote ry'umutuku ndetse na karovati.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Abantu bishyize hamwe barimo kungurana ibitekerezo. Nta mutwe umwe wigira inama, ariko iyo abantu ari benshi bagera kuri byinshi kandi b'yingirakamaro. Batekerereza igihugu ibizagiteza imbere.

Umuntu arahagaze. Yambaye ingofero. Azamuye akaboko. Ari kuvugira mu irangururamajwi. Afashe ku idarapo rifite amabara, harimo umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu.

Umuntu w'umudamu arahagaze yambaye ikanzu irimo amabara y'uburu umutuku n'umuhondo yambaye amataratara afite umusatsi mwinshi yafungiye inyuma ari kuvugira mwirangurura majwi.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Abantu baricaye bari guhana ibitekerezo, burya koko ntamutima umwe wigira inama n'iyo ushatse kuyigira wigira iyo gusara. harimo abambaye imyenda y'umutuku, uy'umukara n'iyumweru n'andi mabara atandukanye.

Imodoka iraparitse, irimo abagenzi, ikigaragara cyo iri mu makosa kubera ko ushinzwe umutekano yayihagaritse, ibiti biri ku muhanda bizavamo inkwi zo gucana ndetse n'amakara.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Icyumba cy'inama harimo abantu barindwi harimo abagore bane n'abagabo batatu hari umugabo uhagaze hejuru nabandi bane bari kuganira kumeza amwe, nabandi babiri bari kumeza yo hirya bicaye ku ntebe z'umutuku n'ameza y'umukara hariho amazina yabo imbere kumeza.

Imodokari n'amapikipiki biri mu muhanda wa kaburimbo. Biri gutwara abantu ndetse n'ibintu abantu bugamye mu mutaka. Mu nzu nini cyane yubatse igerekeranyije.

Umuntu yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikote ry'umukara, mu mugongo harimo ibara ry'umuhondo niry'umweru afite terefone igendanwa mu ntoki, imbere ye haparitse imodoka.

Abantu barishimye cyane barimo barahahira mu isoko, ushinzwe umutekano ahagaze ku muhanda. Amagare ndetse n'imodokari bitegereje abantu kugira ngo bibatware bibageze aho bashaka kujya mu buryo bwihuse. Umuhanda iyo urimo kaburimbo usanga ukomeye cyane.

Umuntu arahagaze. Yambaye ingofero y'umukara. Yambaye agapfukamunwa kamurinda kwandura indwara zandurira mu ruhumekero. Hirya imodoka irimo iragenda. Isize irange ry'umuhondo. Hakurya hateye ibiti.

Abantu benshi baricaye harimo abagabo ndetse n'abagore bari kungurana ibitekerezo, harimo abari kuvugira mwirangururamajwi kugirango abandi bumve neza.

Abantu benshi barahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abagore bakenyeye baniteye, harimo n'abambaye amakanzu inyuma yabo hateyeyo ibiti birebire kandi binini.

Amazu afite isakaro rikomeye cyane bituma ntacyayahungabanya, kandi bigatuma agira agaciro igihe agiye kugurishwa. Abantu iyo bagenda bahanahana intera hagati yabo bituma bagenda neza, kandi bakagira umutekano mu rugendo rwabo.

Abantu benshi baricaye imbere yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umukara impande yabo hari amadarapo afite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Abishyize hamwe nta kibananira kuko nta muntu umwe wigira, iyo ari benshi icyo umuntu atazi abaza mugenzi we akamusobanurira, yakinanirwa bakabaza n'abandi bigatuma ufite icyo atazi nawe akihamenyera.

Kuvugira mu irangururamajwi bituma abantu bakumva neza, abantu iyo bishyize hamwe ntakibananira, bahanahana ibitekerezo ukizi agahaguruka akabwira abandi na bo bakamutega amatwi, amadarubindi ni meza kuko afasha abantu kureba neza.

Amatora ni ingenzi mu gihugu iyo utoye uwo ushaka kandi wizeye bituma igihugu kigera kuri byinshi kikagera ku iterambere kandi rirambye bikazatuma umuturage agera kuri byinshi yari akeneye.

Nta mutwe umwe wigira inama abishyize hamwe nta kibananira bahanahana ibitekerezo icyo umuntu atazi akabaza mugenzi we, bigatuma bagera kuri byinshi kandi batari bazi mudasobwa zidufasha kumenya amakuru yizewe kandi mu buryo bworoshye.

Umuntu w'umusaza yicaye mukagare, yambaye umwenda w'ubururu harimo n'umweru, afite igipapuro cy'umweru arimo aragita mugasanduka gateretse ku ntebe yaje gutora.

Umuntu aricaye arimo araseka, yambaye umupira w'umweru, mudasobwa imuri imbere imufasha kumenya amakuru hirya no hino. Ari mu nzu ifite amarido.

Iyo abantu baganira ibintu byiza barangwa no guseka. Ushinzwe umutekano aba abwira utawushinzwe ibyiza by'umutekano. Agaseke kadufasha byinshi tukabikamo ibintu. Amasaka ni ingirakamaro avamo igikoma gitunga abantu.

Kubana n'abantu bose ni byiza. Yaba ari abo mungana, abo uruta, abakuruta, bituma abantu bakundana, bagahuza urugwiro, bakagera kuri byinshi, bakungurana ibitekerezo, ikindi kandi bikabungura ubumenyi batari bazi.

Ibyishimo biba ari byinshi iyo abantu bateraniye hamwe. Kuko buri muntu wese ntiyahava atagize icyo amenya. Haba hari ibitekerezo bitandukanye umwe wese azana icye. Icyo atazi agasobanuza. bigatuma abantu bahamenyera ubumenyi batari bazi.

Abantu benshi barahagaze harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bazamuye ibiganza, harimo abafite amadarapo n'ufite icupa, harimo umugore wambaye amataratara.

Abantu benshi barahagaze, n'abadamu, bazamuye ibiganza, bafashe ku idarapo rifite amabara atandukanye, harimo umuhondo, icyatsi kibisi, n'ubururu. Harimo abambaye amataratara, ari kubafasha kureba neza.

Umubyeyi iyo akenyeye usanga agaragara neza. Amaherena, urunigi, agakomo, ndetse n'umusatsi mwinshi ku mutwe, bigaragaza ubwiza bw'umudamu. Iyo umuntu yicaye ahantu hatuje bituma atekereza neza.

Tuge twirinda kuganira turebana nabi, niba umuntu akuvugishije jya umusubiza neza, amataratara ni meza kuko atuma abantu babona, ikindi kandi amazi ni meza mu mubiri kuko atuma tugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Kuvuga ukoresheje irangururamajwi bituma abantu barushaho kumva neza. Iyo abantu bicaye hamwe batujije kandi batekanye bagera kuri byinshi. Iyo umuntu afite icyo atazi abaza mugenzi we, hanyuma abandi bagatega amatwi bakumva icyo mugenzi we ari busubize, baba batacyumva neza bakongera bakamusobanuza.

Amapikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo, ari gutwara ibintu ndetse n'abantu kugira ngo bibageze aho bashaka kujya bitabagoye, hirya hari icyapa cyanditseho tora Kagame Paul twiyubakire u Rwanda twifuza, hariho n'ifoto ya Kagame yambaye amataratara.

Abantu bari kureba ibyo bagura mw'isoko riri gucuruza amavuta n'amasabune..

Amagambo menshi yanditse ku gipapuro ndetse harimo n'imibare, cumi na kane akitso umunani gatatu karindwi kabiri akitso rimwe kane umunani, magana ane na cumi na gatandatu, mirongo itatu rimwe.

Amagare ndetse n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu, bikaborohereza kugera aho bashaka kujya mu buryo bwihuse, abagenzi bajye birinda kugenda mu muhanda rwagati, bagende ku ruhande kuko bibarinda impanuka. Ibiti ni byiza ku muhanda.

Imodokari zitwara abantu ndetse n'ibintu, bikaborohereza kugera aho bashaka kujya mu buryo bwihuse ikindi kandi iyo umuhanda urimo kaburimbo usanga ugaragara neza, kuko nta mpanuka nyinshi zikunda kuwubamo.

Ibinyabiziga bitwara abantu bigatuma bagera aho bagera ku buryo bworoshye. Amasoko abamo ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, bigatuma umuntu abibona ku buryo bumworoheye.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'amatara ku mpande zaho, ndetse ku mpande z'umuhanda hari amazu atandukanye ndetse n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, hakurya hari imisozi.

Imodokari nini cyane iri mu muhanda wa kaburimbo, isize irangi ry'umweru ifite ihema ry'ubururu, iri gutwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hariyo igiti kinini.

Imodokari zitwara ibintu ndetse n'abantu, iyo ibintu birimo bitwikiriye biba bifite umutekano nta zuba ryabyica cyangwa se imvura. Ibiti biri ku muhanda biba ari ingirakamaro abantu babyugamamo ikindi kandi bikarwanya isuri.

Imodokari n'amapikipiki biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Bitwaye abantu ndetse n'ibintu. Imodokari ifite irange ry'umweru. Mu muhanda harimo umuntu uhetse umufuka. Hirya y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu zigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye. Iyo itwaye ibintu bitwikiriye biba bifite umutekano, nta mvura yabinyagira nta n'izuba ryabyica. Ibiti ku muhanda ni byiza abantu babyugamamo.

Imodoka n'amapikipiki biraparitse. Bitegereje gutwara ibintu n'abantu. Kugirango bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abantu barimo kugenda ku nkengero z'umuhanda, kugira ngo bibarinde impanuka.

Amamodokari menshi ndetse n'amapikipiki biri mu muhanda wa kaburimbo. Bigamije gutwara abantu n'ibintu kugira ngo bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Amatara ku muhanda arimo araka.

Imodokari ni nziza kuko zitwara abantu n'ibintu bigatuma bagera aho bashaka kugera bitabagoye. Abanyonzi batwara abantu ndetse n'ibintu. Ibiti ku muhanda ni byiza abantu babyugamamo, ndetse byihishamo inyamaswa ba mukerarugendo bakaza kuzireba bigatuma batanga amafaranga mu gihugu.

Imodokari iri mu muhanda wa kaburimbo isize irange ry'umweru, iri gutwara abantu ndetse n'ibintu. Mu muhanda hari kugendamo umuntu wikoreye umufuka w'umweru, hakurya hateye ibiti birebire.

Imodokari ziri mu muhanda wa kaburimbo ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo zibageze ahobashaka kujya mu buryo butabagoye mu muhanda aho abagenzi banyura harimo abantu. Ibyapa biri kuyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Imodoka ni nziza kuko zitwara abantu n'ibintu zigatuma bagera iho bagera bitabagoye abantu iyo bagenda ku nyengero z'umuhanda bibarinda impanuka ibiti ni byiza kuko bituzanira umuyaga mwiza.

Imodokari ndetse n'amapikipiki byorohereza abagenzi kugera aho bashaka kugera bitabagoye, umuhanda iyo ukoze neza birinda impanuka za hato na hato, ibiti ku muhanda ni byiza abantu babyugamo ndetse bigakurura n'imvura.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Imodokari ni nziza kuko zitwara abantu n'ibintu zigatuma bagera aho bashaka ku buryo butabagoye kandi bwihuse. Amazu ni meza ku muhanda kuko abagenzi bituma babona aho bugama imvura cyangwa izuba.

Ipikipiki zitwara ibintu ndetse n'abantu bikaborohereza kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, umuhanda urimo kaburimbo uba ari mwiza bituma nta mpanuka zipfa kubamo, ikindi kandi ibiti biri ku muhanda bigira akamaro kanini cyane.

Amapikipiki n'amamodokari biri mu muhanda, biri gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugirango bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hari umuntu uhagaze hagati y'amapikipiki, yifashe mu mufuka w'inyuma

Imodokari n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu bikabafasha kugera aho bashaka kujya bitabagoye. Abantu bajye birinda kugenda banyuranamo n'ibinyabiziga kuko byabateza impanuka. Ishyamba ni ryiza kuko ribamo ibiti bikurura imvura.

Imodokari nini cyane ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imwe isize irange ry'ubururu, indi isize irange ry'umutuku, biri gutwara abantu ndetse n'ibintu, hakurya hari inzu yubatse igerekeranyije.

Imodokari n'amagare bitwara ibintu n'abantu bikabafasha kugera aho bajya mu buryo butabagoye, iyo ibyo itwaye bitwikiriye bigira umutekano kuko nta mvura yabyica cyangwa se izuba, ibiti ku muhanda ni ingirakamaro.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Imodokari nini iri mu muhanda wa kaburimbo iri gutwara abantu ndetse n'ibintu isize irange ry'umutuku imbere hari umuntu urimo kugenda, hakurya hateye ibiti byinshi.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Igare riri m'umuhanda ritwaye umuzigo, umuhanda iyo urimo kaburimbo bituma ukomera cyane ikindi kandi ntamanuka zikunda kubaho, ibiti iyo biteye k'umuhanda bigirira abagenzi akamaro.

Amapikipiki ari gutwara abantu n'ibintu. Imodoka nayo hirya iri gutwara abantu n'ibintu. Abantu barahagaze kumuhanda. Inzu yubatse igerekeranyije, ifite amadirishya y'icyatsi kibisi.

Ibinyabiziga bitwara abantu bituma abantu bagera aho bagera bitabagoye, ikindi kandi bagakoresha umwanya mutoya, bikabarinda gutakaza ingufu nyinshi no kunanirwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodokari ni nziza, kuko zitwara abantu n'ibintu. Iyo ibintu bitwikirijwe ihema biba akarusho, kuko biba bifite umutekano, ikindi kandi ntabwo binyagirwa. Ibiti ni byiza, kuko bikurura imvura.

Imodokari nini cyane iri mumuhanda ndetse nama pikipiki biri gutwara abantu ndetse nibintu kugirango bibafashe kugera aho bagera muburyo butabagoye, impande y'umuhanda hateye ibiti byinshi cyane.

Imodoka iraparitse, iparitse mu muhanda wa kaburimbo, abantu barimo kuyinjiramo, hirya hari inzu ifite amabara atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi.

Imodokari ziparitse kugira ngo zibone uko zitwara abantu ndetse n'ibintu ziri kuborohereza kujya bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abakarani bari gutwaza abagenzi imitwaro.

Amapikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo ari gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo abageze aho bashaka kujya muburyo butabagoye. Mu muhanda hahagazemo abantu, abandi barimo baragenda hari uwicaye ahetse umwana.

Imodokari ndetse n'amapikipiki bitwara ibintu ndetse n'abantu mu buryo bwihuse bigatuma bagera aho bashaka kujya. Ikindi kandi, ibiti iyo biteye ku muhanda usanga bigaragara neza, kuko birwanya isuri ikindi kandi abantu iyo babuze aho bugama baragenda bakabyikingamo.

Ipikipiki yo mu bwoko bw'imodoka, iri mu muhanda wa kaburimbo. Iri gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugira ngo ibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abantu babiri barimo kugenda mu muhanda, umwe arazamuka undi aramanuka. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire cyane.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Amapikipiki ameze nk'amamodoka araparitse, ategereje gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugirango abageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Imbere hahagaze abantu.

Imodokari n'ipikipiki biri mu muhanda wa kaburimbo, biri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo bibafashe kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, ibiti byinshi biteye mu muhanda.

Imodokari n'amapikipiki biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Bigamije gutwara abantu ndetse n'ibintu. Hakurya haparitse amamodoka menshi. Ari imbere y'inzu yubatse igerekerenyije. Hari n'iyindi nzu yubatse ifite irange ry'umweru.

Imodoka ziraparitse. Zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu. Kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. riraatwikiriye. Ibyo itwaye bifite umutekano. Kuko ntabwo bishobora kunyagirwa cyangwa se ngo izuba ribyice.

Imodokari zitwara abantu zigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye. Ipikipiki zorohereza abagenzi mu ngendo zabo za buri munsi. Abakozi b'isuku ku muhanda bakora akazi gakomeye cyane. Kaburimbo ni nziza, kuko imodoka iyo ziyigendamo nta kibazo zihura nacyo kuko nta mikuku iba irimo.

Imodoka nini cyane ihagaze mu muhanda urimo kaburimbo, isize irange ry'umweru yanditseho ijambo uruvange, hirya ku muhanda hari ibiti birebire.

Umuhanda iyo urimo kaburimbo, byorohera ibinyabiziga kugenda neza. Bikarinda impanuka. Imodokari zitwara abantu n'ibintu. Ndetse n'amapikipiki. Bigatuma bagera aho bagera mu buryo bworoshye. Ibiti ku muhanda bituzanira umuyaga mwiza.

Isoko ririmo ibintu byinshi, rigaragazwa n'urunyurane rw'abantu bagenda abandi bagaruka. Gushyira udutebe ku muhanda byorohereza abagenzi kubona aho baruhukira. Amagare afasha abantu kugera aho bagera mu buryo bwihuse.

Abantu batatu bari ku magare babiri ni abana undi ni umuntu mukuru, hirya hahagaze abantu babiri ba bagabo, hakurya hari indabo ndetse n'ibiti.

Umuteguro mwiza cyane amameza ndetse n'intebe hagiye hicayemo abantu batandukanye, harimo abafite za mudasobwa zirimo kubafasha kureba amakuru yo hirya no hino.

Ikibuga cy'umupira aho abantu bidagadurira bahakinira imikino itandukanye wakiniramo umupira w'amaguru cyangwa se uw'amaboko, hakurya hateye ibiti byinshi.

Ikibuga abantu bakidagaduriramo bashobora kuhakinira imikino itandukanye, abareba umupira bafite umutekano kuko naho ari haratwikiriye nta zuba ryabageraho cyangwa se imvura.

Imodokari n'amapikipiki biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Bigamije gutwara abantu n'ibintu, kugira ngo bibageze aho bashaka kujya, mu buryo butabagoye. Hari n'izindi ziparitse. Hari ibiti birebire biri imbere y'amazu.

Mu kibuga ni ho abantu bidagadurira, bashobora gukiniramo imikino itandukanye, waba uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'iyindi, ibiti iyo biteye bicucitse bigira akamaro kanini cyane, bishobora gukurura imvura, ikindi kandi byavamo n'inkwi ndetse n'amakara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye irakomera cyane washyira hasi urukuta rw'amabuye bikaba akarusho, icyapa ni cyiza kuko kiyobora abantu kigatuma abantu batayoba aho bashaka kujya, amawuwa ni meza kuko atuma duhumeka umwuka mwiza.

Amapikipiki arimo gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo abageze aho bashaka kujya ku buryo butabagoye, impande y'umuhanda hamwe hari ibyatsi, hirya hari ibiti, ibyapa birimo kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abantu.

Inzu yubatse igerekeranyije, usanga iyo nzu ifite agaciro. Ubusitani iyo burimo ibyatsi ndetse n'ibiti, ubwo ubusitani buba busa neza. Icyapa ku muhanda, kiyobora abagenzi igihe babuze icyerekezo cy'aho bashaka kujya.

Igiti cy'inganzamarumbu kiri mu busitani. Abanyeshuri barimo baragenda mu muhanda. Ni byiza barimo baragenda ku ruhande, kugira ngo bibarinde impanuka. Icyapa kirimo kwerekana yuko abantu aribo bagiye kugenda.

Imodokari ziri mu muhanda wa kaburimbo, ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hakurya hateye ibiti byinshi, harimo haragendamo n'abantu.

Imodokari iraparitse itegereje abagenzi ngo ibajyaneyo aho bashaka kujya bagereyo ku buryo butabagoye, umuhanda urimo kaburimbo bizatuma ukomera cyane ibiti ku muhanda ni byiza kuko bituma haza umuyaga ushimishije.

Ipikipiki zitwara abantu zigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye imodoka yo iyo uyigendama ntabwo unyagirwa ituma umuntu ugera aho agera ku buryo bwihuse ibiti biturinda umuyaga kandi ikindi bituma n'imvura igwa.

Inzu nini cyane, yubatse igerekeranyije. Ifite amadirishya menshi n'inzugi kandi binini. Hahagazemo umuntu. Imbere hari igipangu kigizwe n'ibyuma.

Inzu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, ifite amadirishya y'ibyuma ndetse n'inzugi, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, imbere hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Imodokari, amagare, ndetse n'amapikipiki, byorohereza abantu kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Amashanyarazi ni meza, aratumurikira mu buzima bwacu. Ibiti bitugirira akamaro kanini kuko bivamo amakara ndetse n'inkwi.

Ipikipiki itwaye ibintu, umuntu arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo, imodoka iraparitse itegereje gutwara abantu n'ibintu, inzu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku.

Amazu yubatse m'ubusitani bw'ibiti yubatse agerekeje, afite inzugi n'amadirishya birimo ibirahuri asakaje amabati, afite inkingi z'ibyuma.

Inzu yubatse ku buryo bukomeye yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati asize irange ry'umutuku bizatuma irushaho kugira agaciro igihe bagiye kuyigurisha.

Amazu yubatse acucitse. Yubatse ku buryo butandukanye. Hari ayasakaje amategura ndetse n'ayasakaje amabati. Harimo ibiti hagati y'inzu n'izindi. Imbere hari ikigega.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Abaturage batuye ku buryo bushimishije batuye ku mudugudu iterambere rizabageraho ku buryo bwihuse, ibiti ku muhanda ni ingenzi abantu babyugamamo imvura iguye cyangwa se n'izuba rivuye.

Iyo wubatse inzu ukayishyiramo amadirishya akomeye, inzugi zirimo ibirahure n'amadirishya nayo arimo ibirahure, ikindi ukayubakira igipangu ukayizengurutsa ibiti, bituma abayituyemo bagira umwuka mwiza ikindi kandi, ikagira n'agaciro igihe ugiye kuyigurisha.

Amazu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, aregeranye afite inzugi n'amadirishya by'ibyuma, ku gipangu hariho urugi rukomeye cyane, nta wapfa kwinjiramo uko yishakiye, kuko haba hafite umutekano.

Inzu yubatse igerekeranyije irakomera cyane, ikindi kandi biyongerera agaciro. Iyo uyishyizemo amadirishya manini ndetse n'inzugi bifite ibirahure, bituma igaragara neza, imodoka ziraparitse zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranije, bizatuma igira agaciro igihe bagiye kuyigurisha. Ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi. Imbere haparitse imodoka ifite irangi ry'umweru.

Imodokari iparitse imbere y'isoko iryo soko ujya kuryinjiramo ugenda ku ngazi hari gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, imipira, amashati, amapantalo, amajipo n'ibikapu.

Amazu menshi yubatse ku buryo butandukanye. Hari ayubakishije amatafari ya ruriba. Hari ayasakaje amabati y'ubururu. Andi asakaje amabati y'umutuku. Hari ayubatse agerekeranyije.

Imodokari ziparitse ku muhanda, zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu. Kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abantu barimo kuzegera bahetse ibikapu mu mugongo.

Imodoka ziraparitse zitegereje gutwara abantu n'ibintu kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, mu muhanda harimo aho abanyamaguru banyura ikihagaragaza harimo irangi ry'umweru.

Inzu iyo zubatse zigerekeranye bituma zirushaho kuba nini cyane, washyiraho amadirishya y'ibyuma bigatuma bigaragara neza wayisakaza amategura igakomera cyane, ku muhanda iyo hariho ibyuma bituma umuhanda ugaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hubatse inzu nziza cyane yubatse igerekeranije ifite amadirishya n'inzugi binini birimo ibirahuri, isakaje amategura.

Mu gihe cyose dufite ibitubangamiye tujye tugana ku murenge, haba hariho abantu benshi batandukanye, haba hariyo umuhuzabikorwa ushinzwe imibereho myiza, ushinzwe ubuzima, abashinzwe umutekano, umuturage ufite ikibazo ntakakihererane ajye agana ku murenge bakimukemurire.

fanta ni ikinyobwa kidasembuye abantu baragikunda, imodoka zitwara abantu bakagera ahantu ku buryo butabagoye, isoko niho dusanga ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro ndetse n'ibindi.

Nyagatovu amazu menshi yubatse yegeranye asakaye ku buryo butandukanye, hakurya hateye ibiti birebire ndetse hari urutoki, imbere hari insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo kaburimbo hirya haparitse amamodoka n'ipikipiki, hahagazemo n'abantu, hubatse inzu igerekeranyije ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi nini.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabuye kirakomera, washyiraho urugi rw'icyuma bigatuma abajura batapfa kuyinjiramo uko bishakiye, inzu isakaje amabati biha agaciro wakingishaho amadirishya y'ibyuma ndetse n'inzugi bigatuma agira amafaranga menshi iyo ugiye kuyigurisha.

Amazu yubatse yegeranye. Yubatse ku buryo butadukanye. Harimo ayubatse agerekeranyije. Harimo ayubatse atagerekeranyije. Afite amarange atangukanye. Harimo ayafite amarange y'umweru, ndetse n'ayafite amarange y'umuhondo. Hagati mu mazu hagiye hateyemo ibiti.

Imodokari ndetse n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu. Bikaborohereza kugira bashaka kujya mu buryo butabagoye. Amawuwa ku muhanda ndetse n'ibiti, bituma umuhanda ugaragara neza. Kandagira ukarabe iradufasha cyane mu kugira isuku.

Ipikipiki itwara abantu ndetse n'ibintu, bigatuma bagera aho bashaka kujya bitabagoye. Kajagari ya mbere. Indobo tuzishyiramo amazi, kandi zigira uburambe. Ikindi ntago zijya zitera umugese.

Abamotari borohereza abagenzi mu ngendo zabo za buri munsi, inzu ye yubatse ifite amadirishya akomey,e inzugi zikomeye, harimo n'ibirahure ndetse na parafu yonzengera agaciro ku isoko kandi na nyirayobimuha ishema aho ari hose.

Kanombe ku kibuga cy'indege imodoka ziraparitse, zitegereje abagenzi kugira ngo zibageze aho bashaho kujya mu buryo butabagoye, inzu yubatse igerekeranyije iyo nzu usanga ifite agaciro gakomeye cyane.

Amazu bayubatse bayegeranyije, kandi yubatse kuburyo butandukanye. Harimo ayubatse agerekeranyije. Afite amabati anyuranye harimo ay'umuhondo, umutuku, n'ayandi.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, hirya hariyo amazu menshi, ku ruhande hari igipangu cyubakishije amatafari ya roruwa.

Inzu ifite amadirishya meza n'inzugi nziza by'ibyuma iba ikomeye cyane, ikindi kandi igira agaciro iyo nyirayo agiye kuyigurisha, imutera ishema igihe cyose ayireba, ibiti ni byiza kuko bituzanira imvura, ikindi kandi bituzanira amahumbezi.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Imodokari n'amapikipiki birimo gutwara abantu n'ibintu, birimo kuborohereza kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Ibiti biteye ku muhanda, abantu barimo barabyugamamo.

Umuhanda urimo kaburimbo bizatuma ukomera cyane, hirya hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi har'icyapa kiyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Umuhanda urimo kaburimbo kandi ari munini cyane, usanga ugaragara neza. Ibyapa ku ku muhanda biyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga. Ibiti ku muhanda bifasha abantu kubona aho bogama igihe imvura iguye, cyangwa se izuba rivuye.

Kubaka ibiraro ni bumwe mu buryo Leta ikoresha kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato. Ibiti ni ingenzi, kuko bifite akamaro kanini cyane. Wabikuramo inkwi, ndetse n'amakara. Ikindi kandi bikurura imvura.

Inzu zubatse kuburyo butandukanye harimo izifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hari ifite urugo rw'ibiti hakingishijeho urugi rusize irange ry'ubururu.

Umuhanda urimo kaburimbo, hari kugendamo imodoka n'ipikipiki. Kugirango bitware abantu n'ibintu, bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hakurya hateye ibiti byinshi.

Imodokari ndetse n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu. Kikaborohereza kugera aho bashakaga kujya mu buryo bwihuse. Umuhanda iyo urimo kaburimbo usanga ugaragara neza. Ibiti ku muhanda ni ingenzi.

Imodoka zitandukanye ziri mu muhanda. Zimwe ziramanuka, izindi zikazamuka. Hari umuntu urimo yambukiranya umuhanda. Hakurya hateye ibiti birebire kandi binini. Ndetse hubatse n'amazu menshi.

Imodokari n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu , bikaborohereza kugera aho bashaka kujya muburyo butabagoye , mu muhanda urimo kaburimbo urakomeye cyane ,ibyapa kumuhanda biyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Amapikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo ari gutwara abantu n'ibintu kugira ngo abageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hirya hari ibiti harimo ibirebire ndetse n'ibigufi.

Imodokari ndetse n'amapikipiki byorohereza abagenzi kujya aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Ibiti ni ingirakamaro, kuko birwanya isuri. Ikindi kandi bikurura imvura. Abantu babyugamamo igihe imvura iguye cyangwa se n'izuba rivuye.

Umuhanda iyo urimo kaburimbo bituma ukomera cyane, ibyapa ku muhanda biyobora abantu bigatuma aho bashaka kujya batazi bahamenya, ishyamba ni ingenzi habamo inyamaswa zikurura ba mukerarugendo baza kuzireba bagatanga amafaranga.

Imodokari ziraparitse zitegereje abagenzi kugira ngo zibageze aho bashaka kujya ku buryo bu bitabagoye, abantu bahagaze ahabugenewe ntibahagaze mu muhanda rwagati kugira ngo bibarinde impanuka.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Amapikipiki atwara ibintu ndetse n'abantu bikaborohereza kugera aho bashaka kujya mu buryo bwihuse, ibiti ku muhanda ni byiza, abanyamaguru bage birinda kugenda mu muhanda hagati bage bagenda ahabugenewe.

Amapikipiki atwara ibintu n'abantu. Bikabafasha kugera aho bashaka kujya ku buryo butabagoye. Abagenzi bajya bagenda ku ruhande birinde kugenda mu muhanda rwagati. Umuhanda urimo kaburimbo bituma ukomera cyane.

Umuhanda iyo urimo kaburimbo bituma ukomera cyane, ikindi kandi nta mpanuka zikunda kubamo kuko nta mikuku iba irimo, ibiti ku muhanda ni ingenzi, amatara iyo ari ku muhanda bituma nta mpanuka zapfa kuba kuko haba hagaragaraya ari ninjoro.

Ibiti ku muhanda ni byiza kuko birwanya isuri, ikindi kandi bikurura imvura, inyamaswa zibyihishamo, zigakurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba bazaniye igihugu amafaranga, imodokari n'amapikipiki bitwara abantu.

Amapikipiki n'amamodoka biri mu muhanda wa kaburimbo, biri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, abanyamaguru barimo barambuka mu mwanya wabo.

Imodokari ziri gutwara abantu ndetse n'ibintu ziri kubafasha kujya aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, ibiti ku muhanda ni ingirakamaro bituma haza umuyaga mukeya, abantu babyugamamo igihe imvura iguye cyangwa se izuba rivuye.

Abantu ni urujya n'uruza mu mujyi; imodoka ziraparitse zitegereje gutwara abagenzi. Umuhanda urimo kaburimbo bizatuma ukomera cyane, ibiti ku muhanda ni ingenzi kuko abantu babyugamamo.

Ipikipiki n'amamodoka biri gutwara ibintu n'abantu biri kuborohereza ku kujya bashaka kujya mu buryo butabagoye, ibiti biteye ku muhanda birimo gutuma abantu bahumeka umwuka mwiza, ikindi kandi babyugamamo igihe imvura yaguye cyangwa izuba ryabaye ryinshi.

Imodokari iri mu muhanda wa kaburimbo, iri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo ibajyeze iyo bashaka kujya mu buryo butabagoye, ifite irangi ry'umweru hakurya y'umuhanda hateyeyo ibiti byinshi cyane.

Ipikipiki n'amamodoka biri mu muhanda wa kaburimbo, biri gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ibyapa biri kuyobora abagenzi ndetse n'ibinyabiziga. Hateyemo ibiti byinshi ku muhanda.

Imodokari n'amapikipiki biri mu muhanda wa kaburimbo biri gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugirango bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hari n'izindi ziparitse nazo zitegereje abagenzi, hari inzu yubatse igerekeranyije ifite irange ry'umweru, ifite inzugi nini cyane ndetse n'amadirishya hakurya hari ibiti binini cyane.

Imodokari n'amapikipiki biri gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugira ngo bibohereze kugira aho bajya mu buryo butabagoye, ibiti biteye k'umuhanda, ibyapa biri kuyobora abantu, m'umuhanda harimo irangi ry'umweru kugirango ngo bagaragaze aho abanyamaguru banyura.

Ibiti burya bigira akamaro kanini cyane. Bikurura imvura. Ikindi kandi hari igihe hihishamo inyamaswa, hanyuma ba mukerarugendo bakaza kuzireba bagaha igihugu amafaranga. Havamo inkwi, havamo n'amakara.

Imodokari n'amapikipiki biri mu muhanda wa kaburimbo, birimo gutwara abantu ndetse n'ibintu, imodokarin igeze mu nzira y'abagenzi iraparitse, icanye amatara, umuntu ari kugenda mu muhanda, afite terefone igendanwa ku gutwi.